Umugabo wambaye isurubeti z'umuhondo ga z'umukara na marinete arimo gutera umuti mu matunda, ikirere gisa ubururu ndetse n'umweru.

Umuntu urimo arafohera, ahetse ipombo y'ubururu, ifite akantu gafurera k'umukara, yambaye umupira w'umutuku ndetse n'umusatsi w'umukara n'ipantaro y'icyatsi.

Umuntu uri gufoherera ndetse afite ipombo mu mugongo, yambaye igiserubeti ari gufuherera ibyatsi, ku ruhande rwe hari ibiti bitatu akaba afite n'inkweto zimeze nk'iz'abakanishi.

Umugabo urimo kuhira ahetse ipombo isa ubururu yambaye umupira w'umuhondo n'agapfukamunwa k'umuhondo are kuhira ibyatsi bisa icyatsi ndetse ku ruhande hari n'ishyamba.

Umugabo wambaye ingofero y'igikinga y'umweru, yambaye ikintu gifite amarinete ndetse hasi kimeze nk'agapfukamunwa, yambaye ga n'ibisarubeti by'ubururu, ahetse ipombo arimo gufuherera imyaka.

Umugabo ufite indobani, yambaye ishati, ijya gusa n'umweru, arobye ifi, iyo fi, irasa umweru.

Umugore wambaye agapira k'umutuku ari kumwe n'umugabo we, umugabo we yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'ishati y'umweru n'ingofero y'urugara.

Umuntu wambaye bote z'umuhondo afite akabaraderi mu ntoki, yambaye isaha ku kuboko kw'iburyo, ku kuboko kw'ibumoso yambaye agakomo. Yambaye agapira k'icyatsi karimo n'umweru, hirya ye harimo ibiyaga ndetse ari no kugenda antonyangirizaho utuntu.

Abagabo bari mu mazi barimo kuroba bafite indobani bose bayifasheho, abo bagabo bambaye utuntu tumeze nk'amajiri, ku ruhande hariho n'undi mugabo wambaye umupira w'umutuku.

Abagabo babiri, bambaye ingofero, umwe ahetse igitaro, bari gusoroma bombi, icyayi, inyuma yaho hari inzu n'urutoki.

Umugore wambaye igitambaro mu mutwe, yambaye agapira k'umutuku karimo uburongo bw'umweru, yambaye ijipo y'umuhondo ndetse inyuma hari igitebo agiye gusoroma icyayi.

Igitebo kirimo ikahwa ndetse n'igiti gifite amababi y'icyatsi arimo uturongo dusataguye, icyo gitebo kirimo ikawa kiri gusa ikijuju.

Umusore ufashe ku gihingwa cy'icyayi yambaye ingofero y'umukara, yambaye ikoti ririmo umweru n'umukara, ipantaro y'ikoboyi y'ubururu.

Umuntu uhagaze ahantu mu gasozi yambaye umupira w'umutuku, ingofero y'umweru, hakurya hari umusozi no hakuno hari ibiti biteye ku murongo.

Amacupa y'imiti y'inkoko, imbere y'aho hari andi y'umuhondo ndetse hejuru hari andi aryamyeho hejuru y'ayo macupa.

Imiti y'ubwoko itandukanye iri mu macupa asa amabara atandukanye harimo ibara ry'umweru, iry'umuhondo ndetse n'ibipapuro bimbitseho bimwe bisa umuhondo gusa ibindi biri mu cyatsi hariho inka z'igaju.

Ibipapuro byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, y'mweru, ubururu ndetse harimo n'ibikarito byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Imiti iri mu bwoko butandukanye harimo iri mu macupa y'umweru, mu macupa ya orange, ndetse hariho n'ibipapuro bisa icyatsi ari mu magambo y'umweru.

Ibicupa bine birimo imiti y'inkoko hariho uwanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza bayomikisi ekisitara egi, ndetse ku ruhande rwayo hari ayandi y'umweru n'indi y'umuhondo hejuru hageretseho andi macupa.

Amacupa y'imiti y'ubwoko butandukanye, harimo ay'ingurube, intama n'inka ndetse handitseho amagambo y'igifaransa litire lapase.

Umugabo uri mu murima arimo guhinga afite isuka y'ingembe ayifashe mu maboko abiri yambaye agasengeri na bote arimo kureba aho ari guhinga.

Umugore ufashe isuka yambaye ikanzu irimo amabara y'umweru n'ubururu ndetse n'umukara. Ari guhinga ahantu hari ibyatsi byinshi.

Abantu bari gusunika igare, ari babiri umwe w'imbere yambaye agasengeri. Ku igare bahetse imifuka. Uwinyuma yambaye ishati, kuruhande rwabo hari ibiti, ndetse bari gusunika mu kayira kameze nk'ibyatsi.

Umugore urimo kugenda, mu ishyamba, afite umuhoro, n'inkoni, mu kuboko kw'iburyo. Yambaye igitenge kirimo ibara, risa nk'iryingwe n'agapira k'umutuku n'ipantaro y'ubururu.

Abantu batandukanye umwe yambaye ingofero y'urugara irimo amabara y'umutuku n'umweru, yambaye ipantaro y'umukara inyuma ye hari umugore wambaye umupira w'icyatsi.

Umugabo wambaye ikoti risa move, ipantaro y'ubururu, afite uruhara, yambaye bote z'umukara. Arimo gutera igiti kijya gusa umuhondo ndetse kuruhande hari ibyatsi.

Abantu barimo bamwe bunamye, abandi bicaye, barimo abambaye ingofero, bari kureba mu ibase, abandi bagore babiri bakenyeye ibitambara mu mutwe bari bari gukora mu ibase.

Abantu bari mu murima barimo guhinga, umugore ateza agatamba k'ubururu, yambaye agapira k'umuhondo n'ijipo y'amabara atandukanye, iruhande rwe hari umusore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro n'ikabutura y'ubururu.

Ikiganza cy'umuntu ufashe ikirayi cy'umuhondo, hasi ku butaka hari ibindi birarayi byinshi bigiye bitandukanye. Iryo taka rirasa ikigina.

Ibikarito birimo ibitunguru, karoti, imboga z'ubwoko butandukanye ndetse harimo n'amavuta, harimo ibitunguru byinshi.

Ipaki irimo ifu y'igikoma, salade, amaji ndetse n'amavuta yo kwisiga, ku ruhande hari amakaroni n'ibindi bitandukanye.

Ishyamba ririmo akayira, iruhande hari ibiti by'imyumbati, ku rundi ruhande rw'akayira, hari ibitoki ndetse n'amakoma asa icyatsi, kuri ako kayira haririmo n'ibishingwe.

Umuntu ufite mu biganza imyembe, karoti, pavuro ndetse n'ibirayi kuruhande rwe hari insenda.

Ibintu by'ubwoko butandukanye, biri mu kantu kameze nk'agasahani karimo: korogate, inyanya harimo salade ndetse n'ibirungo by'ubwoko butandukanye, harimo n'imboga.

Igiti cy'amaronji, gifite amababi, amwe yicyatsi ndetse n'andi y'umuhondo inyuma yaho hari ikindi k'inindimu, inyuma yaho hari n'inzu.

Umurima ucukuyemo amaterasi, harimo ibyatsi, bisa icyatsi ndetse n'ibiti by'imyumbati, bisa icyatsi n'umuhondo, hariho ahari gucumba umwotsi inyuma yaho hari ibiti.

Ibitunguru by'ibyatsi biteye mu butaka iruhande hari amabuye amwe asa umukara andi asa umweru.

Uruboga rwa dodo kuruhande hariho utwatsi twikigunda hariho ubutaka bujya gusa umweru ndetse n'utuntu tumeze nk'ibishara.

Mu rutoki, hari ibitoki bifite amakoma y'icyatsi, ndetse hariho n'insina ifite igitoki, hasi hari ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Ikigori cyamuzwe ndetse kirumye cyane gifite imisatsi y'umukara, ku ruhande hari igiti cyacyo gifite ibara ryi'ikijuju ndetse n'amababi y'icyatsi harimo n'agahondo gake.

Umusozi uriho ibiti by'ubwoko butandukanye, bimwe bisa icyatsi, ibindi bisa n'ibijya kuma, hejuru hariho ikirere kiri gusa ubururu, ndetse hariho n'imisozi y'amabuye.

Abantu batatu harimo abazungu babiri n'umwirabura uri inyuma wambaye ingofero, abo bazungu umwe yambaye ingofero y'umweru n'undi yambaye ingofero y'igikinga y'umweru.

Ahantu hari ibyatsi, ibiti, amabuye ndetse n'ikirere gisa umweru, ubururu havanzemo n'amabara y'kijuju.

Imisozi iriho ibyatsi, imbere y'aho hari ishyamba ririmo ibiti bifite amababi ajya gusa icyatsi, andi ni umuhondo.

Umugabo wambaye ingofero y'urugara y'umukara, yambaye ijiri y'umutuku irimo utubara tw'umweru ndetse n'agapira karimo amabara y'umukara harimo n'ay'icyatsi, ari gusoroma inyanya.

Abantu benshi bahagaze, bari kwifotoza, abandi bicaye ,hari imbere yabo hari ibiti, bahunika ndetse harimo n'uhetse umwana mu gatuza.

Igiti cy'amapera kiriho amababi y'icyatsi, munsi hari jaride, ku ruhande hari ibishingwe ndetse n'amabara atandukanye y'ibyo bishingwe harimo ikijuju.

Inyanya ziterwa ku biti zera ku biti ndetse zisa umutuku iruhande rwayo hari ikizu cyubakishije ibyuma gusa, ibibabi by'izo nyanya ni icyatsi.

Ahantu hari imigozi irikururana reba munsi yaho hari icyayi gifite ibara ry'icyatsi, ruguru yaho hari umusozi urimo amabuye.

Umugabo ufite umupira yambaye ingofero y'ubururu n'umweru n'agapira k'ubururu n'umweru n'ipantaro y'ikoboyi. arimo kuhira ahantu harimo ibyatsi, ndetse n'imyaka iteyemo.

Igishanga kiriho igihombo, kirimo kududubizamo amazi, hateyemo ibigori bifite amabara y'icyatsi ndetse mu miferege, hagiye harimo amazi atandukanye.

Abagabo babiri bahetse ipombo, bari kugenda bafuhira, bambaye ingofero z'umweru, bambaye bote z'umukara, ibisurubeti by'ubururu, bari gufuhira ibigori bifite amabara asa icyatsi.

Ahantu bari kuhira amashu, hari umugezi urimo gutambutsa amazi menshi cyane, uwo mugezi urasa umweru n'umutuku.

Umuntu uri mu murima arimo gufuherera imboga. Yambaye ingofero y'umutuku agapira k'umweru na bote z'umukara. Hakurya hari imodoka iri mu muhanda.

Umusozi munini hasi kuruhande hari undi musozi, ndetse uwo musozi urimo ibiti, amabuye yubwoko atandukanye ndetse n'amazu ashakaje amabati ndetse harimo n'utuyira.

Umuntu wicaye ahantu hari ibyatsi ndetse n'intebe, imbere ye hari ameza ari gusoma igitabo gifite ishusho y'umweru ndetse yambaye ikoti ry'umukara.

Urwuri rurimo ibyatsi bijya gusa icyatsi ariko harimo n'ibindi by'umweru, hari inka nyinshi zimwe zifite amahembe nk'ay'inyambo izindi zifite ibara nk'irya gaju.

Mu kiraro cy'inka harimo iz'inyambo zifite amahembe arebana n'ibara ryikijuju, inyuma y'izo nka hari abagabo batatu umwe wambaye igisurubeti n'ishati abandi bambaye amataburiya y'umweru na bote z'umweru.

Umuntu utoye inkoko hejuru hari itara n'ibyuma bisakaye iyo nzu y'inkoko, inkoko zisa umutuku ndetse zifite amababa asa umukara.

Inka ihagaze mu kiraro hasi hari ibyatsi ndetse bayiteye iherena, irahindukiye iri kureba inyuma kandi ifite icebe.

Inkoko z'umweru ziri ahantu ziri kurebana, inyuma yazo hari aho zirira, hasi ni igitaka.

Inka z'inyana, zifite amabara y'ikijiju imbere umukara, amaso ni umukara, ku munwa hari akabara k'umweru, kumatwi hariho akabara k'umweru, ziri mu kiraro cyubakishije, ibyuma.

Ingurube y'umweru ifite amajanja, iri ahantu mu kiraro. Icyo kiraro cyubakishije beto. Kuruhande rwacyo hari ibindi bintu by'imyanda bisa nkaho aribyo iryamaho.

Imifuka y'imiceri irimo amabara y'umweru n'ibara ry'umutuku n'umuhondo ndetse n'icyatsi, uwo muceri uri gusa ibara ry'umuhondo.

Umuntu washashe shitingi mu byatsi, ni umugore akenyeye igitenge, yambaye agapira k'umutuku n'igitambararo cy'ubururu mu mutwe, kuri shitingi hanitseho ibigori bidahunguye.

Abagabo babiri bafashe inka, umwe yambaye ingofero y'umweru, yambaye na bote z'umweru, igisurubeti cy'ubururu, n'undi wambaye igisurubeti cy'ubururu, aramufatiye inka bari kuyitera intangaga.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara, arirabura, afite ga z'ubururu, yambaye itaburiya y'umweru, inyuma ye hari umusore wambaye igiserubeti cy'ubururu, no hakurya ye hari umusore wambaye apiga k'icyatsi.

Umugore wateze igitambaro cy'umukara, yambaye itaburiya y'umweru, yambaye ga z'ubururu, inyuma ye hari umusore wambaye ga z'ubururu afitefite igisubeti cy'ubururu.

Umuganga afite ibintu imbere ye arimo arasuzuma yambaye ga z'ubururu imbere ye hari ikintu cyu'mweru ndetse n'utundi tuntu tumeze nk'uducupa turimo ibintu by'mweru.

Umugabo wambaye igisirubiti cy'ubururu, inyuma yikiraro n'undi mugore wambaye isurubeti y'umweru na ga z'ubururu, afite ikintu agiye gutera inka.

Inzu ifite gaze, ifite urugi rufite selile, rufite ibara ry'umutuku hariho purizi ndetse n'imifuka myinshi, isafuriya ifite umufuniko.

Muri parike harimo inyamaswa nyinshi zitandukanye, inyuma yazo hari imodoka nyinshi z'umweru n'inyuma yaho hari imwe yindi y'umuhondo.

Impongo iri mu ishyamba, hari ibyatsi bisa ikijuju ndetse iyo mpongo ifite amahembe, nayo ubwayo irasa ikijiju, imbere yayo hari imodoka n'igiti.